Isanduku irimo amakarito agiye atandukanye y'imiti yifashishwa abantu iyo barwaye, bajya muri farumasi cyangwa kwa muganga bakaba ariho bajya kuyitora.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa n'abantu baza kugura iyo barwaye. Haba harimo imiti igiye itandukanye, abantu baraza kugira ngo ibafashe babavure.

Ikimera kimeze neza cane ikindi kandi gifite akamaro ku bantu kuko kivagamo umuti uvuruga abantu ndetse n'amatungo.

Umurima uhinzemo ibimera bivamo umuti wa kinyarwanda abantu bawifashisha iyo bivura indwara ndetse habamo n'ibimera bivura amatungo Umuuti wa kinyarwanda uba mwiza ,kuko uvura neza.

Ikimera kimeze neza cyane. Ikindi kandi kivamo umuti, abantu bawifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Amakoro arimo ibimera bigiye bitandukanye, kandi ibi bimera byifashishwa mu kuvura abantu, kuko bivamo umuti ariwo twita umuti wa kinyarwanda.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, ibyo kurya, habamo n'ikindi abantu bifashisha bari kwivura indwara zitandukanye, umuti wa kinyarwanda.

Ibimera bibaga byiza kuko bivagamo umuti twitaga uwa kinyagwanda ukavura abantu indwara ku buryo bumeze neza.

Umurima uteyemo ibimera bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abantu, kuko bivamo umuti twita wa kinyarwanda, uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi byimezaga byo mu ishamba. Habagamo ibikangaga umuti gakondo bitaga ugwa kinyagwanda, guvuraga abantu ingwara zigiye zitandukanye.

Amabuye manini yamezemo ibimera bitandukanye, ikindi kandi ibimera biba byiza kuko bivamo umuti uvura abantu ndetse n'amatungo.

Ikimera kimeze neza cyarandarandiye ku rugo, kirashishe, gifite amababi atoshye neza, kivamo umuti wa kinyarwanda, icyatsi tukita umushishiro, abantu barakifashisha bivura indwara zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye, harimo ikimera kirekire cyane, kifashishwa n'abantu bari kwivura, uburwayi bugiye butandukanye, ibimera biba byiza cyane, bikwiye kwitabwaho.

Ibimera bigomba kwitabwaho kuko harimo ibyo dukoreshaga mu kuvura amatungo ndetse n'abantu, iyo barwaye birabavuraraga cane.